Inyama zikaranze zirimo n'ibirungo byinshi cane, mbona zirundanyije zisa naho nta magufa zifite twebwe abaturage turazikundaga cane. Kubera ko umuntu aba yumva yakwarura nk'inyama icumi. Akazishira ku isahani ashaka kurya, kandi atitaye ko hari abandi nabo bashakaga kurya mu ka nya karaza.

Imigati myiza cane iryoshe, irimo ubuki, isa n'umuhondo, turayikundaga cane kubera ko iyo uwuriye ukawunywesha igikoma, ugira imbaraga nyinshi cane kandi ugakora akazi kawe neza ntakibazo.

Ubucuruzi bw'imyenda itandukanye y' abadamu, ubona ko ari imyenda myiza cyane bambika ibipupe, kugirango uwubonye yumve ari umwenda mwiza cyane kandi ufite agaciro muri iyi nzu.

Ubucuruzi butandukanye harimo amagaze afasha abaturage guteka vuba. Kera twatekaga ku mashiga tugatinda guhisha cangwa bigasha birimo n'imyotsi ariko ubu ng'ubu ni byiza cane turatekaga tugahisha vuba.

Umudozi w'imyenda ubona ko ari kumwe n'akana kari kamuremberera umwana kugira ngo abashe gushobora kudoda neza cane kandi vuba ,ubona ko ari kumwe n'undi mudamu uboha ibirago n'duseke twiza cane.

Ibinyobwa bitandukanye amaji, indobo zirimo ifu, imifuka irimo ibindi bintu bitandukanye, indobo zirimo isukari, n'ibindi bicuruzwa bitandukanye. Uri kureba ukabona neza ko ifu iri mu bintu bimeze nk'akajagari. Ibi rero twebwe abaturage ntabwo tubikunda, iyo tugiye guhaha.

Amazu y'ubucuruzi menshi cane ashoreranye, yegeranye n'urusengero rw'abagatolika, imbere yaho hari umunyonzi uhetse umugenzi, bari kugenda berekeza ku rusengero, ubona ko hari n'amapoto y'amashanyarazi, afatiyeho abantu benshi cane.

Ahantu heza cane abaturage bifotorezaga amafoto ,bagahanagurizaho n'amafoto, bagafotorezaho n'ibizamini bitandukanye, n'ibyangombwa byabo.

Inzu nini yubatse igeretse incuro eshatu, imbere yaho hateye indabo nziza cane, twebwe abaturage dukundaga ziriya ndabo. Iyo uhageze uba wumva wahifatira nk'agafoto, kaba ari gafoto keza cane.

Ibicuruzwa bitandukanye amakaramu, uburoso bw'amenyo inzoga z'ubwoko butandukanye; amakaramu abanyeshuri barayakundaga cane kuyakoresha ku ishuri kuyacuruza ni byiza kuko umunyeshuri aba ayakeneye. Uburoso bw' amenyo nabwo uko umuntu agiye kuryama nuko agiye kubyuka agiye kujya mu kazi aba agomba kubukoresha.

Umubyeyi uri gucuruza Ibishimbo, amasaka, ibigori ndetse ku ruhande afiteho ibase, amadobo y'ubwoko butandukanye arimo amafu y'ubwoko butandukanye, aya mafu iyo yanyweyemo igikoma umwana arakomera cane akagira n'imbaraga kandi ugasanga ameze neza.

Imitako myiza cane ifite amabara atandukanye: Umweru, igitaka, umutuku, icatsi, ubururu, ubona ko biboshye neza cane, ku buryo twebwe abaturage turabikundaga cane kubimanika mu nzu baba bigaragara neza cane.

Ubucuruzi bw'amavuta, amagi, inzoga, nibindi. Abagabo batatu bari kunywa inzoga. Bari ahantu hatari heza cyane hari akajagari.

Umugabo ukoraga umwuga wo gusudira ibidomora, amabasi, yicaye yacanye umuriro ari gusudira, impande ye haryamye umugabo wasinziriye cane, hicaye n'umudamu utegereje ko bamukorera kugira ngo atahe.

Indagara nziza cane ziri mu base, bagurisha barenze mu tudobo uko tugiye dukurikirana. Izi ndagara ziraryohaga cane, turazikundaga kubera ko zituma abana bakura neza cane.